Ubuhinzi ni bwiza cyane buri mu bintu bikomeje guhangana n'imibereho myiza n'imirire mibi, aho usanga ubuhinzi ari bwiza; ni byiza rero kubungabunga ubuhinzi, turi kubona hano umuntu arimo gutera umuti mu bihingwa kugira ngo yice udusimba, iyi miti irafasha cyane noneho umusaruro ukiyongera.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuhinzi, Utugari two mu gihugu, twashyiriweho abagoronome, abantu bashinzwe kubungabunga ubuhinzi bw'abaturage, kwegera abaturage ndetse hakaba hakoreshwa imiti yica udusimba, mu buhinzi bw'abaturage.

Mu rwego rwo kugira umusaruro mwinshi kandi mwiza, ni byiza ko twahinga ariko dukoresha imiti yica udusimba, kuko utu dusimba tu tuza tukangiza ibihingwa, byacu hano turi kubona umuturage urimo gushyira utu imiti mu muceri we wahinze, kandi ni umuceri usa neza ikigaragara ko ukoresha ino miti yica ubusimba, maze ubuhinzi bugatera imbere.

Mu rwego rwo kubona umusaruro mwinshi ukomoka ku buhinzi, ni byiza gukoresha imiti yica udusimba, bityo twashaka konona ubuhinzi tugapfa, hari imiti myinshi usanga mu mavuriro ashinzwe iby’imiti, cyane cyane hari amavuriro ya leta, hari n'andi aba arimo iyo miti, bityo ubuhinzi bugatera imbere.

Bamwe mu bahinzi ikintu ba bataka cyane, ni ubusimba bufata imyaka bigatuma yangirika, ariko hajeho uburyo bw'ubuvuzi bwicwa ubusimba bufata imyaka, aho abantu benshi babugana bakabasha kubona imiti bagatuma bica ubusimba bufata ku myaka.

Mu rwego rwo kugirango umusaruro ukomoka ku buhinzi wiyongere, ni byiza gukoresha imiti yica udusimba dufata ubwo buhinzi, ndetse tukanashyiraho n'amafumbire meza atuma umusaruro wiyongera, kandi tugakoresha iyo miti kugirango udusimba twafata iyo myaka dupfe, kugirango umusaruro urusheho kwiyongera.

Ubuhinzi buri mu bigize ubukungu bw'Igihugu kandi umubare w'abantu benshi ni ukora ubuhinzi, ni byiza ko twita ku bihingwa byacu dutera imiti yica ubusimba bwakonona imyaka yacu, hari imashini nziza zifasha mu kuba watera imiti ahantu hanini bitakugoye kandi bigafasha ubuhinzi kumera neza, uyu ni umuceri uri guterwamo umuti wica udusimba kugira ngo umuceri umere neza.

Umusaruro w'ibikomoka ku matungo, uburobyi nabwo buzamo , abantu benshi ntabwo bazi umushinga w'uburobyi ariko ni mwiza cyane, aho urimo amafaranga menshi kandi harimo akazi, ni byiza ko abantu bawuyoboka, ibikomoka ku burobyi nk'amafi ndetse n'ibindi.

Uburobyi burimo bimwe mu bituma ubukungu bw'igihugu buzamuka, abantu bakabasha kubona ibiryo ndetse n'amafaranga, ubushomeri bukagabanyuka ndetse n'imirire mibi ikagenda burundu, bivuye mu burobyi bw'amafi kandi ni akazi keza, usanga kataruhanyije.

Mu kwihangira imirimo ni byiza gukora akazi kose harimo n'uburobyi, ni akazi keza gatanga umusaruro nk'iy'i fi ni nziza, ni amafi manini kandi aba ari ku biciro byiza agira n'intungamubiri, nshishikariza abantu bose kujya barya amafi ni meza, akomoka arinda indwara kandi agatanga ubuzima bwiza.

Kubungabunga ibyuzi mu Rwanda ni ibintu bikorwa buri munsi kandi ubona ko bitanga umusaruro w'ibikomoka ku burobyi, aho tuba tuvuga amafi ndetse kandi abantu bakabikora nk'umwuga ubatunze ubazanira amafaranga n'ibiryo kandi ni byiza cyane mu gihe hari ibyuzi byiza bituma umwuga w'uburobyi na wo utera imbere.

Hari abantu bavuga ko akazi kabuze ariko, nuko baba batarafunguye amaso. Uburobyi nabwo ni akazi keza cyane, hano turabona icyuzi, kiba gitanga umusaruro ku burobyi, bw'amafi, abantu bakabona ibyo kurya ndetse n'amafaranga.

Mu rwego rwo kugira ngo haboneke umusaruro w'ibikomoka mu mazi nk'amafi, ni byiza ko hagiye hashyirwaho uburyo bwo kubaka ibyuzi, ni byiza cyane bituma umusaruro w'ibikomoka mu mazi nk'amafi n'ibindi uzamuka kandi bikafasha mu bukungu, mu gutanga akazi, mu kubona ibyo kurya, ni byiza cyane.

Ibyuzi birubakwa ari byinshi kuko niho amafi yororokera, kandi abakora umwuga w'uburobyi bakabasha kubona amafi.

Uburobyi na bwo ni bwiza butanga umusaruro kuko ibikomoka ku burobyi, aho ni amafi haba harimo inyama ndetse n'amafaranga abantu bakabona ibyo kurya kandi bakabona n'amafaranga, bityo ni akazi keza kandi usanga katarushya katagoye kandi umuntu aboneramo amafaranga menshi ndetse n'ibimutunga.

Abantu mu gihe ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cy'u Rwanda, ni byiza no kuva ku bihingwa biribwa gusa akaba atari byo uhinga gusa, ahubwo tukajya no kuri bino bihingwa bizana amafaranga aho twavuga ibyayi, twavuga amakawa, ni ibihingwa byiza kandi bituma Igihugu kigira ubukungu.

Abahinzi ba kawa bo mu Rwanda bishimira kuba umusaruro usigaye wiyongera bitewe n'ingamba zashyizweho mu buhinzi bwa kawa, kandi igira umusaruro kuko ni igihingwa kijya hanze mu mahanga bakabasha kubona amafaranga menshi cyane, cyane ko hari ahantu henshi hashyizwe ho gukusanyiriza umusaruro wabo ndetse n'aho kuwutunganyiriza bityo bishimira uyu musaruro cyangwa n'ubu buhinzi bwayo.

Byiza guhinga ibizana ibiryo ndetse n'ibizana amafaranga. Muri byo harimo ikawa izana amafaranga yoherezwa hanze, hano turahabona umukobwa ari guhinga ikawa, ni byiza, bizana amafaranga.

Ubuhinzi bw'icyayi buri ku iterambere ryinshi kuko habaho inganda zitunganya icyayi ndetse n'abantu basigaye bahingira mu matsinda bigatuma umusaruro wiyongera kandi n'umusaruro uvuyemo ukabungwabungwa aho hari ahantu henshi hari amakusanyirizo bityo ubukungu bunyuze mu cyayi bugatera imbere.

Mu rwego rw'iterambere ry'ubukungu ry'Igihugu hari ibihingwa bitanga amafaranga, ibihingwa biri mu bituma Igihugu kiyongera mu bukungu n'iterambere, muri ibyo bihingwa twavuga nk'iyi kawa, turi kuyibona hano imbere ni ibihingwa byohereza hanze, hakaza amafaranga mu Gihugu.

Icyayi kiri mu bintu by'ibihingwa bizana amafaranga n'ubukungu, ubuhinzi bw'icyayi buri mu bintu bituma Igihugu gitera imbere mu bukungu, aho usanga ari ibihingwa by'amafaranga kandi n'ubushomeri bukagabanuka kuko abantu baba babikoramo ari benshi, ni byiza rero ko twagana ubuhinzi bw'icyayi.

Abahinzi ba kawa bishimira umusaruro ndetse n'uburyo ari igihingwa kizana amafaranga, ku bagikora bityo igihugu cyacu kigakomeza gutera imbere kuko ni kawa yoherezwa hanze kandi mu Rwanda haba kawa nziza, isa neza, ikeyeye, ituma umusaruro wayo utera imbere.

Ni ubuhinzi bubyara amafaranga kandi burimo inyungu nyinshi ubuhinzi bwa kawa, aho ababukora usanga bishimye cyane ko benshi bibumbiye mu makoperative, ikindi hakaba ari ubukusanyirizo bw'umusaruro, aho babona ahantu bawukusanyiriza kandi bakabona amafaranga menshi ashimishije.

Ubuhinzi bukomeje kujya ku isonga kandi buri mu bituma igihugu gitera imbere mu bukungu abantu bakihangira akazi ubushomeri bugashira, ubuhinzi bw'ikawa nabwo buri mu buhinzi bwiza hano turi kubona ikawa isa neza ni byiza kuyigana abantu bose bagahinga ikawa.

Ubu ni ubuhinzi butanga amafaranga, ubuhinzi bw'icyayi kandi ababukora barishimye, cyane ko leta yabazaniyeho uburyo bwo gukora mu matsinda kandi hakaba hari uburyo bwo gukusanya umusaruro wavuye mu cyayi, kikoherezwa hanze, abagikora ndetse n'igihugu kikabona amafaranga.

Ubuhinzi buratera imbere umunsi ku munsi, maze umusaruro na wo ukiyongera abaturage babukora bakabona amafaranga, cyane cyane hari ubuhinzi buzana amafaranga. Ubuhinzi bw'icyayi ni bumwe mu bitera kuzana amafaranga cyane ko leta ishishikariza abaturage bahinga ubwo buhingwa cyangwa se icyo gihingwa gukorera mu matsinda maze bakabona umusaruro urushijeho.

Mu bihingwa habamo ibizana ibiryo ndetse n'ibituma abantu babona amafaranga cyane abakora ubuhinzi, ubw'ikawa cyangwa se ubw'icyayi ni bimwe mu bizana amafaranga ku bahinzi babukora. Ubuhinzi bw'ikawa nibwi kuko icyayi nacyo kijyanwa hanze mu mahanga maze abahinzi bakabona amafaranga.

Abahinzi ba kawa umusaruro ndetse n'inyungu iriyongera umunsi bari gukora buno buhinzi, cyane ko butanga amafaranga kuko ni igihingwa cyambutswa mu mahanga. Rero abantu babukora barishimye kuko leta nayo ibafasha kubafasha mu kubona aho bakorera nko mu matsinda ndetse no gukusanya umusaruro wabo muburyo bworoshye.

Mu rwego rwo guteza imbere uburezi ni byiza ko dukorera mu matsinda nkuko leta ihora ibidushishikariza, maze tukiharanira guhinga ibihingwa bizana amafaranga nk'ubuhinzi bwiza, tukohinga igihingwa cy'icyayi kizana amafaranga ava hanze kuko cyambutswa Igihugu cyacu.

Ubuhinzi buri muri bimwe mu bituma ubukungu bw'igihugu bwiyongera, aho twavuga ko harimo n'ibihingwa bizana amafaranga aribyo'kawa, icyayi n'ibindi, ubuhinzi bwa kawa nabwo buri mu bituma bwiyongera cyane ko ngo hasigaye harajeho ubuhinzi butuma kawa iba isa neza, kandi yitaweho ishishe, bityo ikazana amafaranga ku muhinzi wayo.

Kugira ngo ubone umusaruro mu buhinzi ni byiza ko ububungabunga, ukabwitaho cyane. Iyi ni ikawa isa neza ,nayo kugira ngo yere neza kandi ubone amafaranga bisaba kuyibungabunga, ukayikiza ibisambo, ukayitaho ndetse n'ifumbire.

ubuhinzi bw'ikawa n'ubuhinzi bubyara inyungu ndetse n'umusaruro, ikindi butanga akazi ku ba bagakora usanga ubushomeri bugabanyuka kandi hakabamo amafaranga cyane ko benshi bashishikarizwa guhingira mu matsinda, kugira ngo inyungu n'umusaruro byiyongere.

Leta ihora ishishikariza abaturage gukorera mu matsinda bityo kugira ngo bakusanyirize hamwe umusaruro uva mu buhinzi bw'icyayi aribwo butuma inyungu zivamo ndetse n'umusaruro wiyongera bityo abahinzi b'icyayi bakabona amafaranga ku buryo bushimishije.

Ubuhinzi bwa kawa buratera imbere ndetse n'ababukora barushaho kugira ubuzima bwiza kuko ni ubuhinzi buzana amafaranga menshi kandi abantu bagiye mu buryo bwo gukorera mu matsinda bityo bakaba babona umusaruro mwinshi wiyongereye bityo bakabona amafaranga.

Ikawa ni nziza mu mubiri, igira intungamubiri nyinshi kandi iraryoha, ni byiza ko twayihinga, urabona nk'iyi kawa iyo yeze neza ukayisarura, ukayanika, ukaba wayisya ukayiteka, iba iryoshye kandi ikagirira umumaro umubiri ndetse n'imiryango yacu tukayinywa.

Nk'uko igihugu gikomeje mu iterambere ry'ubukungu niko n'ubuhinzi butera imbere, hari ibihingwa bizana ibiryo hari n'ibindi bizana amafaranga, hano turi kubona ubuhinzi bw'icyayi bwiza cyane bugezweho mu Rwanda mu bimwe byinjiriza amafaranga igihugu, kuko icyayi cyambutswa mu mahanga ubundi tukakira amafaranga ubuhinzi bukarushaho gutera imbere.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'amatungo, Leta ishishikariza abantu gukoresha ubuvuzi bw'amatungo, aho amatungo yagize ikibazo, wegera ababishinzwe babyigiye bakavura itungo ryawe ndetse ubuzima bw'amatungo bukagenda neza.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'inyamaswa cyangwa sebw'amatungo, ni byiza kumenya ko afite ubuzima bwiza. Niyo mpamvu hajeho imiti iyavura, nka hano turi kubona umuti mwiza, iyo amatungo abashije kubona ubuvuzi, bituma atanga umusaruro kandi akabaho neza.

Mbere amatungo yarapfaga ku bwinshi hatari hazaho ubuvuzi bw'amatungo, ariko ubu ngubu ntabwo bikibaho abahinzi n'aborozi ntabwo bagitaka kenshi kuko iyo amatungo agize ikibazo, ugana abantu babugenewe bakaguha ubuvuzi bw'amatungo kuko imiti yayo irahari ku bwinshi.

Ubuhinzi ni umusingi w'iterambere kuko niho abaturage ndetse n'Igihugu muri rusange gikura ibyo kurya, bityo bikagabanya indwara nka bwaki kandi abahinzi bakora uburyo bwo kwikorera imyaka yabo, bityo bikaborohera bigakuraho imvune bahura nazo.

Ubworozi ni bwiza bugira umumaro mwinshi yaba ibikomoka ku matungo harimo inyama,: ifumbire ndetse n'amata ni ibintu byiza, nk'aha iyi ni icyo bita aho bororera inka, ni ahantu hagaragara neza kandi hagari hatuma zino nka zibasha kwisanzura zikororoka kandi zikabona n'ibizitunga bihagije bitewe n'uko ari hagari.

Aborozi bakomeje gutera imbere kuko hari uburyo bwaje bwo korora bufasha amatungo yabo kumererwa neza, kandi agasa neza, hano tuba tubona inka ahantu hose zorowe kandi zitanga umusaruro w'ibizikomokaho yaba inyama ndetse n'amata, bityo abantu bakora ubworozi niyo mpamvu usanga babona umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Nyuma y'uko ubuhinzi butejwe imbere, abahinzi na bo basigaye babona umusaruro kuko hari uburyo bwinshi basigaye bakoresha kugira ngo babone umusaruro, yaba kuhira imyaka yabo no kuba batera udusimba imiti itwica, bityo ibyo kuba twakonona imyaka bikavaho kandi hari n'uburyo bwo gukoresha ifumbire mvaruganda bituma umusaruro wiyongera.

Ubuhinzi burushaho gutera imbere umunsi ku munsi cyane ko buri mu bigize ubukungu bw'igihugu. Abahinzi babasha kubona umusaruro noneho basigaye barashyizeho uburyo bwo kuba batwara ibihingwa byabo ku magare cyangwa kuyagenderaho. Mu gihe bagiye guhinga bityo bikaborohera kuba bakora urugendo n'amaguru ahubwo bakabasha kugerayo kare ndetse n'ibyo basaruye bakabiheka ku magare yabo.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane ko aribwo bufasha mu bukungu bw'igihugu ndetse abantu bakabasha kubona ibyo kurya hari ubuhinzi bw'ibigori, umusaruro wabwo urahunikwa maze igihugu kikabona ibigitunga byinshi, cyane ko bamwe basigaye bakorera ndetse no mu matsinda.

Ubuhinzi nk'umusingi w'iterambere kandi bituma ubukungu bw'Igihugu buzamuka abantu bakabona ibyo kurya imirire mibi igacika, ntabwo igihugu kirwaza bwake ahubwo ubuhinzi buri gutera imbere cyane ko hajeho uburyo bwo guhinga kandi hakaba hari n'imiti ifasha mu kurwanya ubusimba bwibasira imyaka.

Abahinzi barimo gutera imbere cyane ko umusaruro wiyongera bitewe n'uko basigaye boroherezwa hariho uburyo bubafasha mu korora, ndetse inka nazo zitaweho hari imiti izihabwa bityo zikagira ubuzima bwiza, niyo mpamvu abakora ubworozi bishimye kandi babasha kubona umusaruro mwiza mwinshi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere aho umusaruro ukomoka ku buhinzi wiyongera umunsi ku munsi kandi ni ibintu byiza bituma ubukungu bw'Igihugu buzamuka, abantu bakabona ibyo kurya ndetse n'amafaranga akaza avuye muri ubwo buhinzi.

Kimwe mu bigize iterambere ry'Igihugu, ubuhinzi buza ku mwanya w'imbere. Iyo bumeze neza: Igihugu kibona amafaranga, kikabona ibyo gisohora hanze, umuturage nawe akabona ibyo kurya, agasagurira amasoko, amafaranga araboneka kandi n'imibereho y'abaturage, abana bwaki zigashira, imibereho y' abaturage ikagenda neza. Igihugu kikagira amahoro n'ibiribwa.

Ubworozi buri mu kazi keza kandi gatanga umusaruro, kakanafasha mu iterambere ry'igihugu. Hano turi kubona umusaza uri mpande y'inka ze, ubona ko ari inka nziza, zishishe, nkeka ko zitanga umusaruro mwiza.

Abantu benshi bahora bataka ko babuze akazi kandi hari akazi kenshi kaboneka, nk'ubuhinzi aho usanga bubyara umusaruro, turikubona umugabo uri mu guhinga umurima we, aho uyu murima aba agiye guhinga agashyiramo ibihingwa bye bibyara umusaruro ndetse akabasha kwiteza imbere, akihaza mu biribwa, akanasagurira amasoko.

Ubuhinzi buri mu bituma ubukungu butera imbere abaturage bakabona ibyo kurya ndetse bakabona n'amafaranga, bityo bagasagurira n'amasoko bwaki zigakemuka mu gihugu, igihugu kigatera imbere maze ubukungu n'ubushomeri bukagabanuka ubukungu bukazamuka.

Nk'uko leta ihora idushishikariza kugana mu buhinzi kandi tukabukora neza, ni byiza cyane kandi natwe dukwiye kubyumvira kuko bibyara inyungu. Abantu babona ibyo kurya kandi bakanagabanya ubushomeri. Hano turi kubona umugabo, ari gukorera urutoki rwe agenda arukuraho ibishanga kandi ubona ko hari insina nziza isa neza izatanga umusaruro.

Imboga ziza mu bigirira umumaro umubiri, mu birinda indwara, mu bituma ubuzima bugenda neza, ni ingirakamaro ko twazirya buri munsi. Hano turi kubonamo imboga zitandukanye, harimo pavulo, harimo inyanya, harimo n'imiteja, hakabamo tungurusumu. Ni byiza ku mubiri, birinda indwara, binatuma ubuzima bugenda neza.

Tubungabunge ubuhinzi, ubuhinzi buri bimwe mu bigize ubukungu bw'Igihugu ku rwego runini cyane, iyo ubuhinzi bumeze neza abantu babona ibyo kurya, hano turi kubona ibihingwa by'ibigori, ni byiza kubibungabunga kuko ni byiza bitanga ibiryo n'abantu bakabona ubuzima bwiza.

Ubuhinzi butera imbere bityo ibiryo bikaboneka bikomoka kuri ubwo buhinzi abantu ndetse n'Igihugu muri rusange kikabona ibyo kurya. Niyo mpamvu Leta ihora idushishikariza kuyoboka ubuhinzi kandi tugakoresha imvaruganda, ifumbire bityo ubuhinzi n'umusaruro ukiyongera.

Leta ihora ishishikariza abahinzi kubungabunga ibihingwa byabo, yaba ari ibihingwa bitanga ibiryo kugira ngo Igihugu gikomeze mu muvuduko mwiza w'iterambere nta muntu ubuza ibyo kurya, ni byiza rero kubungabunga bino bihingwa bitanga ibiryo.

Ibintu byose biri ku muvuduko w'iterambere yaba ubukungu, yaba ibikorwa remezo ndetse n'ubuhinzi, ni byiza ko ubuhinzi nabwo butera imbere kugira ngo tubone ibyo kurya, tukabona urutoki rwiza, abahinzi, ibikomoka ku musaruro bikiyongera maze igihugu kikabona ibiryo, ibigitunga bikaboneka, abantu bakabona ibyo kurya, bakagira ubuzima bwiza bukomotse ku bihingwa by'ibiribwa.

Mu rwego rwo kwihaza mu biribwa ni byiza iyo Igihugu gifite ahantu heza ho guhinga, turabona nk'aha ngaha ni ahantu h'igishanga heza ho guhinga, washyira imyaka, wahinga ibihingwa byiza noneho Igihugu kikabona ibiryo n'abagituye, bakabona amahoro barya neza.

Mu rwego rwo kugira ngo haboneke ibiryo ni byiza ko ubuhinzi butera imbere, habaho ubuzana ibiryo cyangwa se ubuhinzi butandukanye, yaba ubuhinzi bw'ibitunguru, bufatwa nk'imboga maze imirire myiza igatera imbere, bwacya zigashira mu baturage.

Kugira ngo igihugu gitere imbere mu bukungu ni uko kiba gifite ibyo kurya, akenshi ahanini uba usanga bituruka mu buhinzi, hano hari igishanga cyiza ubona ko gifite ubutaka bwiza bwo guhingaho ibihingwa byo kurya kandi bikabyara umusaruro mwiza.

Ubuhinzi buri muri bimwe mu bigize iterambere ry'igihugu, kandi ubuhinzi buri mu bituma ibiryo byiyongera mu gihugu abantu bakobona ibyo kurya. Ubuhinzi bw'ibigori nabwo buri ku isonga kuko havamo byinshi harimo nk'amafu ndetse n'ibiryo bitandukanye, bibona abantu bakabona ibyo kurya. Ni byiza byo kubungabunga ubuhinzi bw'ibigori, tubyitaho kandi tubihinga, tubiha ifumbire nyinshi cyane.

Ubuhinzi buri mu bituma abantu bagira ubuzima bwiza kuko babona ibyo kurya bityo indwara nka bwacya zigashira, ubuhinzi bw'imbuto bukagira umumaro kuko ni nziza ku buzima bwa buri munsi aho twavuga nk'inyanya, ibitunguru, urusenda, pavuro ndetse n'ibindi ni byiza ku buzima bwa buri munsi.

Mu kugira ngo ubuzima bw'umuntu bubungabungwe abashe kubona ibimutunga neza hriho ibiririnda indwara, ibyubaka umubiri hariho ibiryo byinshi, hano turi kubona inyanya, tukabona sositomate, tukabona n'imiti y'amenyo, ibi biri mu birinda umuntu mu mibereho myiza ye.

Tubungabunge ibishanga kuko biri mu bituma abantu babona ubuzima bwiza mu buhinzi bagahinga bagasarura, hano turi kubona igishanga kirimo umuceri kigaragara, ni igishanga kiza, igishanga kirimo umuceri bigaragaza ko gitanga umusaruro kandi n'abaturage bakiri guhingamo bakitaho bikazatanga umusaruro.

Ubuhinzi buri mu bimwe mu bituma Igihugu kigira ubukungu abantu bakabona ibyo kurya, ni yo mpamvu Leta ihora ishishikariza abaturage guhinga bagakoresha ifumbire ibihingwa bizana ibiryo ndetse kandi bagakoresha uburyo bwiza bugezweho, yaba guhingisha imashini cyangwa no gukoresha ifumbire kugira ngo umusaruro wiyongere.

Ishyamba kiri mu bigize ubukungu bw'Igihugu cy'u Rwanda, aho abantu babasha gukuramo ibintu bitandukanye, harimo imbaho kandi ni ho hantu hororokera amatungo, nako inyamaswa zimwe na zimwe nk'ingagi maze Igihugu kikabona amafaranga ava mu bukerarugendo.

Amashyamba ari mu bintu biba bigize Igihugu kandi bituma kigaragara neza, kuri ubu ngubu hashyizeho ibintu by'ubukerarugendo aho abantu baza baje gusura amashyamba bakabasha kubona inyamaswa zororerwamo bigatuma amadovize yinjira, Igihugu kigatera imbere.

Ishyamba rigira umumaro mu bukungu bw'igihugu ndetse n'ubw'abaturage muri rusange, kuko usanga ishyamba rivamo ibintu byinshi, nka rino shyamba ni ryiza rifite ibiti byiza bisa neza, kandi ni rinini usanga havamo imbaho, usanga havamo ibintu byinshi bigirira umumaro igihugu.

U Rwanda ni igihugu cy'imisozi miremire cyangwa se bavuga ko ari igihugu cy'imisozi igihumbi, bityo hakabonekamo amashyamba, ari nayo atuma haboneka inyamaswa zorokeramo nk'ingagi bigakuru ba mukerarugendo, igihugu cyacu kikaba gisa neza kandi kibona amafaranga ava mu basura igihugu cyacu.

Imisozi n'amashyamba biririmo bimwe mu biranga Igihugu cy'u Rwanda nk'uko bacyita Igihugu cy'imisozi igihumbi, kuba hari amashyamba menshi biri mu bituma umusaruro umwe n'umwe wiyongera, twavuga nk'inyamaswa ziba zi muri ayo mashyamba zikurura ba mukerarugendo kandi amashyamba abyara umusaruro nko kuba haboneka imbaho maze ibikorwa by'ubucuruzi bikiyongera.

Amashyamba ari mu bikurura ba mukerarugendo maze bigatuma igihugu gitera imbere, aho usanga horokeramo inyamaswa nyinshi zitandukanye ziri mu bikurura ba mukerarugendo baje gusura Igihugu, cyane ko dufite Igihugu cy'imisozi igihumbi.

U Rwanda ni Igihugu k'imisozi igihumbi ndetse ni Igihugu gifite imisozi gikurura ba mukerarugendo. Aho baza gusura ingagi bitewe n'amashyamba arimo zororokeramo. Iri ni ishyamba ryiza ry'ibiti birebire gusa ntabwo rino shyamba rigira umumaro muri ba mukerarugendo gusa ahubwo abantu bakoramo buzinesi y'ububaji. Hakavamo imbaho nziza zikorwamo intebe ndetse n'inzugi maze ubukungu bugatera imbere bw'Igihugu ndetse n'ubw'abantu.

Mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza, n'ibyiza byo kwita ku byo turya ndetse n'ubuhinzi, kuko turya ibikomoka ku buhinzi bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza, tukarya ibirinda indwara, hano turi ubona inyanya nziza, ziri mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Mu rwego rwo kwirinda indwara ndetse n'imirire mibi, imboga n'imbuto biri mu bituma kwirinda indwara cyangwa se kugira ubuzima bwiza bigerwaho, aha ngaha umuntu yakabaye akoresha imineke, imboga nk'inyanya, ibitunguru ndetse n'izindi zindi, zituma ubuzima bw'umuntu bugenda neza kandi akagira ubuzima buzira umuze.

Tubungabunge ubuhinzi, kugira ngo igihugu gikomeze gitere imbere, kihaza mu biribwa n'abantu bagituye bakabona ibyo kurya, inzara igacika hano turikubona ababyeyi barimo guhinga imboga, imboga nziza zisa neza, ni byiza ko ubu buhinzi bwateza imbere.

Ubuhinzi butanga umusaruro mwiza, kandi umusaruro uriyongera umunsi, umwaka, bigenda bitandukana. Ubuhinzi bw'inyanya nabwo ni bwiza kuko zigira umumaro ku mubiri, kandi abantu bose yaba abana, ababyeyi ndetse n'abantu muri rusange, bakwiye kujya barya inyanya, kuko ni nziza ku buzima bw'umuntu.

Mu rwego rwo kongera umusaruro w'ibyo dusarura mu buhinzi bwacu ni byizakoresha uburyo bwo kuhira imyaka; hari imigozi icuruzwa yifashishwa mu kuhira imyaka igatuma wafata amazi uyakuye kure maze ukabasha kuhira ahantu hanini hagari hatandukanye kandi bitakugoye.

Mu rwego rwo kongera umusaruro ukomoka ku bihingwa, hari uburyo bwaje bwo kuhira, aho usanga abantu batega amazi bakoresheje impombo, ndetse n'imashini, bakohereza mu myaka yabo, bakuhira maze umusaruro ukiyongera, ibihingwa bigakura bitoshye kandi bikabyara umusaruro.

Mu rwego rwo kongera umusaruro uturuka ku buhinzi ni byiza gukoresha uburyo bwo kuhira kuko butuma ibihingwa bigira umusaruro mwiza kandi ushimishije bityo muntu akabona umusaruro ukubye uwo yabonaga mbere.

Abahinzi basigaye barateye imbere cyane ko basigaye buhira imyaka bityo igihembwe cyose k'ihinga bakaba bafite umusaruro mwiza ukomoka mu kuhira, hari uburyo bwinshi nko guca amaterasi ukabasha kohereza amazi hafi y'ibihingwa byawe bikakorohera mu kuhira bityo umusaruro ukiyongera.

Mu rwego rwo kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi. Kuhira ni ikintu k'ingenzi kandi abantu bakora cyane ko hasigaye haraje ibikoresho bifasha mu kuhira. Aho twavuga nk'amatiyo akurura amazi, akabasha kuwuhira ahantu hanini. Ukaba wakuhira imboga zawe zigahora zitoshye bityo ukabona umusaruro.

Mu rwego rwo kongera umusaruro ndetse no kwirinda kurumbya ni byiza kuhira, nk'uyu turi hano umumama arimo kuhira imboga kandi urabona ko zisa neza, kuhira rero biri mu bituma umusaruro wiyongera.

Ubuhinzi ni umusingi w'iterambere yaba ku gihugu ndetse n'ababukora, kuko bituma ubuhahirane ndetse n'ibyo kurya byiyongera, mu gihe kugira ngo ubuhinzi bugerweho neza ni byiza gukoresha uburyo bwo kuhira, uyu ni umugozi wakoresha wuhira kandi ukuhira ahantu hanini maze umusaruro ukiyongera ukomoka mu buhinzi.

Ubuhinzi buri gutera imbere ndetse hajeho abantu barimo kubwiga bamwe bakajya no kwiga mu bihugu byo hanze, ibintu birimo gutuma umusaruro uva ku buhinzi wiyongera kuko bari kuzana uburyo bwo kuhira ibihingwa ndetse ibihingwa byuhiwe bitanga umusaruro ukubye kabiri uwo byagatanze mbere.

Mu rwego rwo kongera umusaruro w'ibihingwa cyangwa se ibiwukomokaho, haje uburyo bwo kuhira nka hano turimo kubona abantu bafite imashini yuhira, imashini nziza ibafasha mu kuhira mu buryo bw'umwanya mutoya, kandi bigatanga umusaruro, ni byiza ko abantu bagoboka bayoboka gukoresha ino mashini maze bakabona umusaruro mu buhinzi bwabo.

Ubuhinzi burushaho gutera imbere. Aho ababukora basigaye barabaye ingero nyinshi: abagabo, abagore ndetse n'abasaza n'abasore bakora umwuga w'ubuhinzi. Kuba haraje uburyo bwo kuhira nabwo buri mubituma umusaruro wabwo wiyongera. Aho hari amatiyo afasha mu gukurura amazi ayakuye kure kandi akuhira ahantu hanini, hagari kandi bitakugoye. Ari ibintu bituma umusaruro wiyongera.

Ahanini ubukungu bw'igihuguba bushingiye ku buhinzi ni byiza rero ko abahinzi bakoresha uburyo bwo kuhira, kuko bituma umusaruro wiyongera n'igihe habaho kurumba, bikavaho kuko iyo wuhiye ibiribwa byawe birakura bigashisha kandi bigatanga umusaruro.

Ubuhinzi buri mu bituma igihugu gitera imbere ndetse abaturage n'igihugu muri rusange kikabona ibyo kurya, kwifashisha kuhira imyaka biri byongera umusaruro ukomoka ku buhinzi, kuko imyaka yuhiwe itanga umusaruro kurusha igihe hatabayeho kuhira imyaka.

Mu rwego rwo kwirinda kw'imyaka yakangirika, ni byiza gukoresha uburyo bwo kuhira cyane ko hari uburyo bwinshi bwo kuhira nko kuba waca imiringoti yo mu murima, ifata amazi bityo bikakorora mu kuhira no kuba wakoresha amatiyo, akurura amazi kandi agafasha mu kuhira ahantu hanini cyane.

Hasigaye harajeho uburyo bwo gufata amazi ndetse tukayabungabunga kugira ngo ubuhinzi n'ubworozi bitere imbere, aho haje uburyo bwo kuhira imyaka kugira ngo umusaruro wiyongere kandi iyo hakoreshejwe kuhira imyaka, umusaruro uriyongera ndetse n'ubukungu bukazamuka.

Ubuhinzi buratera imbere umunsi ku munsi ubungubu ntabwo abantu bakigira ubwoba bwo kuvuga ngo ni ku itumba cyangwa se ku muhindo, igihe cyose abahinzi bari guhinga bityo ubukungu bw'igihugu bugatera imbere, ni byiza ko dukoresha uburyo bwo kuhira imyaka kugira ngo umusaruro wiyongere, impombo zifasha mu kuhira ukaba wakuhira ahantu hagari kandi amazi meza menshi agenda. Bityo umusaruro ukiyongera nk'uko bigaragara.

U Rwanda ni Igihugu cy'imisozi igihumbi, aho usanga hari ibibaya ndetse n'ubutumburuke, bituma ubwiza bw'Igihugu bwiyongera ndetse abantu bakabona ahantu ho guhinga, aho Igihugu cyazanye uburyo bwo guca amatarasi y'indinganire kugira ngo ya misozi abantu babashe kuyihingiramo.

Ubukerarugendo biri mu bintu bituma igihugu gitera imbere kandi abantu baza gusura igihugu mu gihe kigaragara neza, ibibaya n'imisozi ni bimwe mu bituma bikurura ba mukerarugendo bakazana amadovize maze igihugu kikiruka mu iterambere ry'ubukungu.

Ibibaya, imisozi n'ibishanga ni ibintu byiza biranga igihugu kandi akenshi bikurura ba mukerarugendo, habamo n'ubworozi bw'inyamaswa, habamo ubworozi bw'amafi, ibintu byiza ku gihugu bikurura ubukungu bikanabuzamura bigafasha n'abaturage batuye icyo gihugu.

Imisozi n'ibibaya biri mu bikurura ba mukerarugendo, aho usanga iyo ba mukerarugendo baje baje gusura imisozi byongera akazi ndetse n'amafaranga igihugu kikabona amadovize, hari ibyo kurusimbukira ku migozi n'ibintu bikorerwa mu bibaya nk'ibi imisozi ugasanga ni byiza bigize umusaruro n'inyungu ku gihugu.

Ibibaya ndetse n'imisozi biri mu bikurura ba Mukerarugendo baje gusura ubutumburuke bw'igihugu birebera ibyiza bitatse igihugu. Ni byiza gukora ubukerarugendo mu gihe ufite ahantu hameze gutyo kuko bizana amafaranga n'amadovize ku gihugu.

Muri bimwe bigize iterambere n'ubukungu bw'igihugu, ni abaturage, ubworozi bw'amatungo, nabwo buri ku isonga, muri bimwe mu bigize ubukungu. Ni byiza kubungabunga ubworozi bw'amatungo, kuko butanga ibiryo harimo inyama, bugatanga ibikomoka kuri ubwo bworozi ni ingirakamaro. Ni byiza kububungabunga cyane.

Ubworozi buri mu bituma ubukungu bwiyongera kandi n'ibikomoka ku bworozi bizana amafaranga kandi bigatuma ubuzima bwiza bw'abaturage bwiyongera aho twavuga nk'inyama amata kuko birinda bwacya kandi bikarinda ubuzima bubi bwaza mu baturage, ni byiza kubungabunga inka kuko zirifite umumaro munini mu mibereho ya buri munsi.

Ubworozi buri ku isonga mu bituma ubukungu bw'abaturage butera imbere kandi ibikomoka ku bworozi aho twavuga inyama, ifumbire, na byo biriyongera kandi bikabyara umusaruro. Ubworozi bw'inkwavu na bwo ni bwiza kuko zirororoka kandi ntabwo zirushya, nk'izi nkwavu bazubakiye ahantu heza, bituma hari isuku kandi zisa neza, zikagira n'ubuzima bwiza; ni byiza ku ubakira ahantu nk'aha hejuru bituma zisa neza kandi zikabaho neza.

Ubworozi buri mu bintu bizana amafaranga bikagabanya ubushomeri ndetse n'ibiyakomokaho nk'amagi, amata, inyama bituma abantu bagira ubuzima bwiza bakabona ibirinda indwara, ibyongera amaraso mu mubiri, hano turi kuhabona ubworozi bw'inkoko buri mu mushinga mwiza ugezweho abantu bakuramo amafaranga ubushomeri bukagabanuka.

Ubworozi ni bwiza cyane yaba ku babukora ndetse n'abaturage muri rusange kuko ibikomoka ku bworozi aho twavuga inyama, amagi n'ifumbire bibyara umusaruro mwinshi cyane. Hano turimo kubona ubworozi bw'inkoko, ni ahantu hororewe inkoko nyinshi kandi ubona ko zisa neza kandi harimo abazitaho kandi aha ahantu ni heza ni ibintu byiza bibyara umusaruro.

Mu rwego rwo kurwanya imirire mibi, ndetse n'indwara ziterwa n'imirire mibi, ni byiza ko twajya dukoresha ibikomoka ku matungo, aho twavuga amagi ndetse n'inyama, ubu bworozi bw'inkoko ni bwiza cyane kuko butanga umusaruro, kandi iyo inkoko zitaweho ziba zisa neza, nk'uku nguku ubona inkoko ari nini, kandi itanga umusaruro twavuga, nk'amagi ndetse n'amafaranga.

Ubworozi bw'amatungo ni ingenzi cyane. Ni ingirakamaro kandi biri mu bishingirwaho mu bukungu n'iterambere ry'Igihugu. Usanga ibikomoka ku matungo harimo nk'amata, harimo inyama bigira umumaro mu iterambere ndetse no mu mibereho myiza y'abaturage.

Ubworozi buri mu bituma ubukungu buzamuka ndetse abantu bakabasha kubona amafaranga n'ibiryo biva muri ubwo bworozi, aho twavuga nk'ubworozi bw'inkoko, aho usanga bukomokaho nk'amagi n'inyama usanga bituma imirire myiza iboneka abantu bakarwanya bwacya kuko umwana wariye igi abasha kugira ubuzima bwiza.

Ubworozi buri ku rwego rwiza rushimishije aho usanga abantu baramenye korora neza ndetse bakoresha uburyo bwa kizungu ndetse n'umusaruro w'ibikomoka ku bworozi nawo ukabungabungwa aho usanga hari amamashini ashinzwe gukusanya amata, iyi mashini ni nziza, ni byiza.

Ubworozi buri mu bintu byiza kuko bigira umusaruro mwiza kandi abantu bakabasha kubona akazi ubushomeri bukagabanuka, Igihugu kikabona amafaranga ndetse n'ibikomoka ku bworozi harimo:, amata inyama, amagi ni byiza. Hano turi kubona ubworozi bw'inkoko, aho mbona ari inkoko nziza zisa neza kandi zororewe ahantu heza.

Ubworozi buri mu bituma ubukungu nabwo butera imbere, yaba ubworozi bw'inka, ndetse nayandi matungo, cyane ko ibikomoka ku bworozi nk'ifumbire, inyama, amata ndetse n'ibindi bibyara umusaruro mu kubona ibiryo, cyangwa no gutuma amafaranga aboneka, ubworozi bw'inka nabwo buri ku isonga mu bituma ubukungu buzamuka, kuko ibibukomokaho nabyo bigira umumaro.

Ubworozi buratera imbere ku munsi ku munsi, ariyo mpamvu haje ubworozi bw'inkoko, aho horora inkoko nyinshi ziterera mu gihe gito kuko ari inkoko zororoka kandi zigakura mu minsi mike, zikabyara umusaruro harimo amagi ndetse n'inyama n'ifumbire.

Ubworozi buri mu bituma ubukungu bwiyongera ndetse abantu bakabasha kubona akazi ubushomeri bukagabanuka amafaranga akaboneka, ubworozi bw'inka buri mu bituma umusaruro bikomokaho aribyo twavuga nk'ifumbire, inyama ndetse n'amata bigabanya imirire mibi yakiganza mu gihugu ahubwo igacika burundu bwacya bitewe nuko abana banywa amata ikagenda ivaho burundu.

Ubworozi buri mu bituma ubukungu buzamuka kandi ibikomoka ku bworozi bigira umumaro, yaba ifumbire, yaba amata, yaba amagi n'inyama. Ni ibintu byinshi bigira umusaruro mwiza cyangwa se ingaruka nziza ku bukungu bw'igihugu n'ubw'umuturage muri rusange, ubworozi bw'inka buri ingirakamaro kuko bwo bunatanga umusaruro uhambaye, yaba amafaranga, yaba n'ifumbire kandi abawukora barishima.

Ubuhinzi bw'imbuto harimo: ibigori, soya, ingano, ni bwiza cyane kuko izi mbuto zigira umumaro mwinshi ku buzima bw'umuntu, harimo ibirinda indwara, bituma ubuzima bugenda neza bana bagagakira bwake, nbuno buhinzi ni bwiza mu bukungu n'iterambere ry'Igihugu kuko burafasha cyane mu ngeri zose.

Ubuhinzi bw'ibinyampeke, n'ubuhinzi bwiza, aho bino bikubiyemo ibirinda indwara, ibyubaka umubiri, ndetse ari ibintu bitanga n'amafaranga ni ukuvuga ngo abantu babihinga, ni ugushyiramo umuhate, bikaba bikiyongera ubusaruzi bwabwo.

Ubu buhinzi bukomeje gutera imbere kandi leta ishikariza guhinga ibigori ndetse n'izindi mbuto zose kuko umusaruro wabyo, ni mwiza ku mubiri w'umuntu kandi bashyiraho uburyo bwo guhunika no gusarura mu matsinda kugira ngo umusaruro uvuyemo ubashe kubyazwa umusaruro kandi ubungwabungwe..

Ubworozi bw'inka buri mu bintu bitanga umusaruro mwinshi, yaba ibikomoka kuri ubwo bworozi; harimo inyama, amata kandi havamo n'amafaranga. Ni byiza rero mu gihegize ikibazo kwegera abashinzwe ubuvuzi bwabo bo bita aba veterineri bagatanga imiti kugira ngo dukomeze kubungabunga ubu ubworozi.

Ubuvuzi bw'amatungo mu Rwanda buri gutera imbere ko nta nka cyangwa se irindi tungo rigipfa, bitewe n'uburwayi kuko imiti ndetse n'ababyize bazi kuvura neza amatungo bari kwiyongera umunsi ku munsi. Ubu ngubu inka habaho kuyitera intanga ndetse yaba ishaka kubyara muganga akaza akayifasha n'ubundi burwayi yahura nazo, inka barayivura igakira.

Nyuma yuko hajeho Girinka mu Rwanda ubworozi bw'inka buri gutera imbere kandi inka zikarushaho kugira ubuzima bwiza kuko hajeho ubuvuzi bw'inka mu buryo butandukanye, abo bita abavuzi b'inka babaye benshi abaveterineri mu ndimi z'amahanga kandi inka zihabwa umuti zigatuma ubuzima bwazo bugenda neza, impfu zazo zikagabanyuka ahubwo ubuzima bwazo bukaba bwiza.

Ubworozi bw'amatungo nibwiza, ni bwo butanga umukamo bugatanga ifumbire. Hariho ibintu byinshi bikomoka ku bworozi by'ingirakamaro. Hano turi kubona inka hari n'umuganga wayo ari we wita veterineri mu indimi z'amahanga, bano baganga b'inka barafasha cyane mu giheka yarwaye, mu gihe inka igiye kubyara ndetse no mu gihe cyo gutera intanga bikorohereza ubuzima bw'inka ndetse umworozi akagira umusaruro.

Ubworozi ni bwiza butuma abaturage babona bimwe mu bikomokaho twavuga nk'ifumbire, amata, ndetse n'inyama bityo ubuzima bwabo bukagenda neza. Inka nayo iri mu bintu bituma umusaruro uboneka kandi mwinshi, cyane kuko inka nziza yitaweho itanga umukamo ndetse n'amafaranga akaboneka abaturage bakabasha kubaho ubuzima bwiza.

Ubuvuzi bw'amatungo buratera imbere umunsi ku munsi cyane ko hashyizweho amashuri yigisha ibijyanye no kuvura amatungo, harimo inka n'ayandi, bityo inka ntabwo zikirwara kuko haba hari imiti kandi hari n'abagiye kuzivura bityo zikagira ubuzima bwiza.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'amatungo yaba inka ndetse n'andi, ubuvuzi bwayo ni byiza ko buri gutera imbere kandi n'amashuri abyigisha akiyongera, ibi bituma nta nka ikirwara cyangwa se ngo ipfe bitewe n'uburwayi kuko ubuvuzi bw'amatungo buri ku rwego rushimishije.

Ubuvuzi bw'amatungo buri mu bituma amatungo arushaho kugira ubuzima bwiza kandi impfu za hato na hato zigahagarara kuko hari abavuzi b'amatungo babyize kandi bafite ubumenyi buhagije, baba bazi kuvura itungo maze iterambere n'ubworozi bikarushaho kubyara umusaruro; aba ni abavuzi barimo kuvura kano gatungo kugira ngo gasubirane ubuzima bwiza kandi kadapfuye.

Kera wasangaga inka zipfa ndetse n'andi matungo, kuko iyo zarwaraga ntabwo habaga hari imiti. Ariko ubungubu hasigaraye hari abaveterineri babyigiye, aho inka yagize ikibazo bayiha urukingo igakira kandi ikabasha kugira ubuzima bwiza ikabaho neza. Ni byiza rero kujya kugana abaveterineri babishinzwe babyigiye bagatanga ubuvuzi ku mutungo.

U Rwanda n' Igihugu cy'imisozi igihumbi, bituma ubwiza bwacyo burushaho kwiyongera, muri iyo misozi harimo amashyamba usangamo harimo inyamaswa zifite ubwiza butandukanye bikurura ba mukerarugendo, hari nk'izi nyamaswa impala n'imparage n'amasha n'imopongo, ni inyamaswa nziza zituma ba mukerarugendo baza, zifite amabara meza kandi ni nziza ni byiza cyane.

U Rwanda ni igihugu k'imisozi igihumbi ntibyorohera kuba hari amashyamba maze yorokeramo inyamaswa zitandukanye ziri mu bigize ubukerarugendo butera imbere mu rwanda kuko izi nyamaswa zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzisura igihugu kikabonamo amafaranga ava muri ba mukerarugendo.

Amashyamba yo mu Rwanda ari mu bimwe mu bikurura ba mukerarugendo kuko hororokeramo inyamaswa zitandukanye, harimo: ingwe, harimo impyisi cyangwa se ingagi zikurura ba mukerarugendo, maze bakaduha amafaranga Igihugu kigatera imbere mu bukungu.

U Rwanda ni igihugu cy'imisozi igihumbi harimo amashyamba acumbikiye inyamaswa z'ubwoko butandukanye ari byo bikurura ba mukerarugendo, wavuga imbogo, wavuga ingagi, inguge, n'ibintu bituma ba mukerarugendo basura igihugu cyacu maze kikabona amafaranga bitewe na ba mukerarugendo baza gusura izo nyamaswa.

Mu Rwanda hari gutera imbere yaba amashyamba nk'uko rwitwa igihugu cy'imisozi igihumbi, bityo inyamaswa zikabona aho zororokera maze abazisura abo twita ba mukerarugendo bakiyongera bakazana amafaranga ubukerarugendo mu gihugu cyacu bugatera imbere, ni byiza.

Inyamaswa zimwe na zimwe, yaba inyoni, imisamb, ndetse n'imbata. Ni ibintu bikurura ba mukerarugendo, bakaba bajya kubisura kuko biruhura mu mutwe, hari nk'icyanya ahantu hitwa Nyandungu, naho usanga imisambi, ni ahantu heza, ujya gusura maze ukareba kandi usanga biruhura mu mutwe.